Umukozi w'ikigo runaka ategera amatwi ibiri kuvugwa mu nama bari kugirwa n'abakozi muri rusange n'abandi.

Abayobozi bikigo gishinzwe iby'imisoro mu Rwanda, bari kurebera hamwe uko icyakorwa cyangwa icyo bahindura ku mikorere yabo ya buri munsi.

Inama ihuza abayobozi ndetse n'abaturage, n'abantu bavuye hanze y'ibihugu, mu kwita ingagi ku nshuro ya makumyabiri bikaba bikorerwa ahantu hagiye hatandukanye.

Inama y'abakiri bato, mugihe bari kwiga kubibazo bigiye bitandukanye, bategeye amatwi ibiri kuvugirwa aho ngaho Kandi bakaba bari guhana ibitekerezo.

Amasaha y' ijoro umuhanda mugari hari icyapa cy' icyatsi n' umweru ,hirya hakaba ikizengurukijwe, nibara ritukura n'inyuguti y' umukara ,hagati ...

Abakozi ba leta bari kurebera hamwe ikibazo, cyangwa bari kwigira hamwe ku kibazo cyakemurwa, cyangwa ku myanzuro yafatwa ku gihugu, cyangwa bagashyirira hamwe inshingano zabo n'uko bakwita ku baturage muri rusange.

Inama y'abayobozi bari kwiga ku kibazo cyangwa kucyafasha sosiyete yabo mu gutera imbere bahanahana n'ibitekerezo bitandukanye.

Abakozi ba leta bari munama bakaba bari kwiga kubintu bitandukanye bishobora guteza imbere igihugu cyawe.

Abashinzwe umutekano bari kumwe n'abaturage, mu gihe bari mu nama cyangwa bari nk'ahantu handi hihariye.

Abaturage bari hamwe n'abayobozi, ndetse harimo n'urubyiruko, bari kwishimira ibyagezweho, bari kubyina ndetse banishimana n'abayobozi babo.

Abayobozi bari kwigira hamwe ku cyakorwa cyangwa ku ngamba zafatwa muri kampani cyangwa ku gihugu kugira ngo habeho iterambere ku bijyanye nibyo bakora.

Abayobozi ndetse n'abaturage bari mu nama y'inteko rusange y'abajyanama bikorwa by'akarere ka Gasabo, bari kwiga ku kibazo cyangwa bari kurebera hamwe uko bateza u Rwanda imbere.

Abashinzwe umutekano ndetse n'abayobozi barimo baganira n'abaturage ku bijyanye n'ingengo y'imari y'igihugu cyangwa ibyo banononsora cyangwa ibibazo bihari.

Umukozi usobanura uko ibintu bimeze mu kigo bakoreramo, icyo banononsora cyangwa icyo bahindura muri gahunda zabo abandi bakaba bamuteze amatwi.

Abayobozi bari mu nama, bari kuganira ku kibazo runaka, bose bakaba bari gutega amatwi ibivugirwa muri iyo nama, kandi bakaba bari kungurana n'ubumenyi bwinshi.

abayobozi bari kurebera hamwe ikibazo cyangwa bari kwigira hamwe icyakorwa muri sosiyete babayemo cyangwa uko bafasha abaturage muguhindura imibereho yabo ya buri munsi.

Icyibutswa kigaragaza ko hari ibyo ugomba kwishyura mu matariki ntarengwa, mu gihe waba ukeneye kwishyura ukaba wakwifashisha urubuga rwabo ruri hano hasi.

Abanyeshuri bari kwiga bifashishije mudasobwa, ibi bikaba byihutisha iterambere mu gihugu kandi bigafasha n'abana kugira ubumenyi bwinshi kubijyanye n'ikoranabuhanga.

Umunara muremure w'itumanaho, ushobora gufasha abaturage aho bari hose mu mpande z'igihugu, mu buryo bwihuse kandi bwiza.

Umwarimu uri kwigisha abanyeshuri uko bakoresha ikoranabuhanga, mu gihe hari ibyo bari kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi kandi nabo bakabishyira mu bikorwa.

Icyapa cyereka abaturage baza bagana zimwe muri sosiyete ziri hano nk'uko bigaragara, bikaba bifasha abaturage mu kuba babona ibyo bashaka mu buryo bworoshye, kandi bwihuse.

Uburyo bugiye butandukanye ushobora gukoresha irembo uri kwiyandikisha mu bijyanye no mu kuba wakora ibizamini, kandi ukaba ushobora no kubasanga ku rubuga rwabo ari rwo irembo, cyangwa ukabasha ko wabyikorera mu buryo.

Abaturage bari kwifashisha za mudasobwa mu gushaka ibintu runaka, cyangwa mu kuba hari ibyo bareba mu bijyanye n'ibyo bari gukora, cyangwa n'ibyo bashaka kumenya.

Uburyo bworoshye bwo kuba wakwiyandikisha mu kiciro cy'ikizamini cyemererwa gutanga uruhushya bikaba unyura ku irembo.

Uburyo bwiza kandi bworoshye bwo kuba wabikuza amafaranga cyangwa wabitsa mu buryo bworoshye kandi bwihuse hafi yawe utiriwe utega cyangwa ujya kure.

Umunara muremure uri ahirengeye, ushinzwe isakazwa rya murandasi n'itumanaho mu baturage, ushyirwa ahantu kugira ngo ufashe abaturage muri rusange.

Ibiro bishinzwe kuba byakorera abaturage, yoroheje nko kuba byakoroshya kubikuza, kohereza amafaranga, gufotora n'ibindi.

Abakozi bomukigo cy'irembo bakaba barigufa abaturege ukuntu bakwikorera ibintu muburyo bwihuse kandi bubanogeye.

Uburyo bwizewe kandi bworoshye, bwo kuba wakifashisha mugihe uri kwishyura imisoro, yawe ushobora kwifashisha urubuga rwa bo cyangwa ukaba wabahamagara kuri nimero itishyurwa igaragara hano hasi.

Uburyo bwereka abaguzi cyangwa abashaka kwishyura umusoro mu kuba babikora mu buryo bworoshye bakaba banyura ku rubuga rwabo bakifashishwa uburyo bugaragara hano.

Uburyo bworoshye bwerekana ukuntu ushobora kwiyishyurira mituweri ukoresheje urubuga rw'irembo bakaba berekana ko ushobora kwifashisha mudasobwa yawe ugendana mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Amapoto y'itumanaho yifashishwa mu kuba yaha abatuye u Rwanda, kandi aho hantu aba ari haba harinzwe cyane kuburyo umuturage atahagera agire ikibazo.

Uburyo bworoshye bwo kwirinda inkongi y'umuriro cyangwa kurinda amashanyarazi mu buryo bworoshye mu rugo rwawe, uku n'uko nguko bikorwa amabwiriza wakurikiza kugira ngo bigende neza.

Icyapa kigaragaza cyangwa kimenyesha abantu ibihangano byatsinze, bikaba byaratsindiye amafaranga menshi cyane, kandi bakomeza bakwibutsa ko nawe ushaka gukora ibyo bintu, washobora gutsindira ayo mafaranga.

Ipoto iriho amashanyarazi kandi ikaba iriho itara rimurika mu gihe nimugoroba, rikaba rikoreshwa umurasire w'izuba, amasaha yo kwaka rikaba ryaka rikamurikira abantu ndetse n'ibinyabiziga binyuraho.

Ibikorwaremezo harimo amashanyarazi afasha abaturage mu buryo bworoshye kandi bigatuma iterambere ryihuta cyane.

Amapoto abiri ajyana umuriro mu baturage, ndetse n'amazu menshi cyane arimo ibikorwa bigiye bitandukanye, haba kubamo cyangwa ubucuruzi.

Ibiti byumagaye, amapoto ajyana amashanyarizi mu ngo z'abaturage hakaba bikorwa muburyo bwiza kandi bwizewe.

Ibinyabiziga biri hanze y'umuhanda, biri kugenda amapoto y'amashanyarazi atanga amashanyarazi mu baturage.

Ipoto itanga umuriro w'amashanyarazi mu ngo zitandukanye z'abatuye u Rwanda kandi bikaba bikorwa mu buryo bwiza, budateje akaga abaturiye aho hafi cyangwa abantu bari kugenda.

Ibikorwaremezo bitandukanye harimo amazu, harimo amapoto ajyana amashanyarazi mu ngo z'abaturage batandukanye bikaba bifasha kuba bakoroherezwa kuba babona amashanyarazi.

Umunara muremure wifashishwa mukuba waha abaturage umuriro, ukaba uhereza abantu benshi batandukanye muduce dutandukanye.

Inzu z'ubucuru ndukanye hakaba arimo amasoko, ndetse hakabamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo amapoto ajyana amashanyarazi mu mijyi cyangwa mu mazu ya.

Ibikorwaremezo birimo n'amapoto y'amashyanyarazi, mukuba byaha umuriro abaturage baturiye aho hafi, kandi ubwo buryo bukaba bworoshye bukaba bunizewe.

Isoko rishinzwe kugurisha ibikoresho byo mu rugo, hakaba harimo; ama matera hamwe n'imyenda, kandi iryo soko rikaba ricuruza ibintu bihendutse.

Ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi, rikaba ritanga amashanyarazi cyangwa ikifashishwa mu gihe hakenewe gucanwa itaka ku mugoroba.

Ikigo gishinzwe kuba cyaha abaturage b'u Rwanda amashanyarazi muburyo bwihuse kandi bworoshye, abakozi bacyo bakaba baza kureba uko bikorwa.

Amapoto ajyana amashanyarazi mubaturage akaba abafasha kuba bahabwa umuriro muburyo bworoshye kandi akaba yabafasha mubintu bitandukanye mubuzima bwabo bwa burimunsi.

Ipoto y'amashanyarazi iha abaturage umuriro, ukabasha kugera mu ngo zabo mu buryo bworoshye kandi bwihuse, ubwo rero ubwo buryo burarinzwe cyane kandi burizewe.

Imiriro y'amashanyarazi yoherezwa mu baturage ikabasha kubageraho mu buryo bwihuse kandi bworoshye, mu buryo bidateza ikibazo cyo kubura umuriro cyangwa kutawubona.

Inyubako nziza cyane kandi isa neza ikaba ikorerwamo ibitaro, bikaba ifite ikinyabiziga cyayo gitwara abaje kwivuza.

Abaturage bari guhabwa serivise yo kwa muganga y' ubuvuzi bwo kuba bavurwa neza batekanye Kandi bikabafasha kwihutisha gahunda yo kuba bakwivuza.

Abagana ibitaro, by'umwihariko abarwayi bagaragaza ko babaye, ibyo bitaro bikaba bisa neza bifite urukarabiro rumeze neza.

Ibitaro bifite aantu hanini ubusitani ndetse n'ahabikwamo amazi ashobora kwifashishwa n'abarwayi cyangwa n'abaganga mu gihe bari kuvura cyangwa mu gihe bakeneye kwisukura.

Aho kwicara utegereje ko bagufasha kandi ushobora no kuba wajya mu bwiherero rusange, bukaba burimo n'ahagenewe abageze mu za bukuru cyangwa abafite ubumuga.

abaturage baza bagana ivuriro bikaba bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kandi hakaba harangwa n'isuku n'umutekano mwinshi.

Igikoresho kifashishwa mukuzimya inkongi y'umuriro, byumwihariko nko kuzimya ahantu hashobora gufatwa n'umuriro muburyo bwihuse.

Abayobozi bari kugenda batembera mu kigo cyo kwivurizamo, bari kugenda bareba ibikorwa runaka byakorwa cyangwa ibyakemuka.

Ivuriro rishinzwe kwita kubarwayi cyangwa abarembye cyane, mugihe baje bagana iri vuriro hakaba hari ahantu habugenewe bashobora kubanza kunyura.

Ahatangwa serivise zitandukanye. Mu gihe utegereje ko bagufasha ushobora kuba wicaye mu ntebe, cyangwa utembera, cyangwa ureba hanze uko bimeze.

Abakozi bakorera mu bitaro, hakaba harimo n'abaturage baje baje kwivuza kandi hakaba ari ahantu harangwa n'isuku rwose.

Ibitaro binini bifite ahantu ushobora kuba washyira ikinyabiziga cyawe mu mugihe uje gusura cyangwa uje kwivuza ushobora kuhashyira ikinyabiziga ukajya muri gahunda zitandukanye kandi ugasanga bitekanye.

Serivise zitandukanye zo kwa muganga, mugihe hari icyo utegereje ukaba wicaye ku ntebe, mu gihe urindiriye ubufasha.

Ibitaro byakira abaturage baje babigana kandi bikaba bifite urukarabiro, ibyo bikaba birinda abaje bagana kuba bagenda basukuye cyangwa bikagabanya indwara nyinshi ziterwa n'umwanda.

Ivuriro rifasha abaje bagana aho hantu baje kandi hakaba hagaragara ko hatagombakunywera ibiyobyabwenge runaka n'kitabi kuko ushobora kugira ingaruka ku bantu bari hafi aho.

Icyapa kiranga ibitaro byereka abarwayi n'abarwaza aho byaba biri, kikaba cyerekana amasaha gitangirira n'ayo kirangirira gukoreraho.

Icyemezo kigaragaza ko hari ikirego kigomba gusubirwamo kubera ko habaye akarengane, hakaba harimo amatariki, n'igihe, n'amategeko n'inshamake bikaba aribyo bikubiyemo.

Ushinzwe umutekano mu kazi ke ka buri munsi, ari kureba ko ibinyabiziga byujuje ibyangombwa, cyangwa ko bafite ibisabwa kugira ngo babe baza gutwara.

Igikoresho kifashishwa mu gihe hari ahantu habonetse inkongi y'umuriro bikaba byifashishwa mu kuba wazimya umuriro mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Umukozi ukorera sosiyete yitwa vuba vuba, ari kugeza ku muguzi ibicuruzwa yashakaga kandi urabonako bishimye bombi , yaryohewe na serivise yahawe nziza kandi ikeye.

Ikinyabiziga cy'abashinzwe umutekano mu Rwanda, kiri hafi n'ahari ishami ritoya rya zigama, rikaba riboneka ahitwa ku Muhima.

Igikoresho wifashisha mu kuba wazimya inkongi y'umuriro mu gihe hafashwe kandi bifasha umuntu mu buryo bworoshye kuba yazimiye umuriro

Ushinzwe umutekano iyo ari gukora akazi kiwe areba ibinyabiziga uko byujuje ubuziranenge areba ko bafite ibyangombwa byuzuye kubabatwara ikinyabiziga cyabo.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro bikaba byihuta mu koroshya cyangwa mu kugabanya umuriro bikaba bigaragara ko bishyirwa munzu ndende zidahita zibona ubutabazi bw'ibanze.

Abanyeshuri bari kwerekana uburyo ki batojwe, cyangwa bigishijwe mu kuba bakwifashisha bazimya inkongi y'umuriro ku buryo buboroheye.

Abashinzwe umutekano bari kuganira nabaturage kukibazo cyangwa kubyo bakora mugihe bari kugendera mumuhanda cyangwa bakurikiza amategeko yashyizweho na leta.

Abashinzwe umutekeno barerekana uburyo ki bagomba kwirinda impanuka mu gihe bateze cyangwa bashobora kwirinda inkongi y'umuriro mu gihe hagize ikibazo kibababayeho.

Abashinzwe umutekano mu kazi kabo ka bari munsi, bari kureba igishobora guteza impanuka mu muhanda ndetse hakaba hari n'ibinyabiziga ku ruhande rwiwe.

Ibikoresho bibiri byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro mu buryo bwihuse hatarindiriye ko ababishinzwe bahagera, ikaba iboneka ahantu hose hari inyubako ndende cyangwa ahantu hashobora gufatwa n'umuriro vuba.

Imodoka y'umutekano ihagaze iruhande rw'ikigo kitwa zigama, mu gihe kiri gucunga umutekano w'abatuye u Rwanda bose, nk'abagize icyo kigo.

Igikoresho cyifashishwa mu kuba wazimya inkongi y'umuriro, wifashishije amazi kandi kikaba gikoreshwa ahantu hashobora kuba ari harehare mu buryo bworoshye.

Igikoresho kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe itunguranye kikaba gikoresha ahantu mu mazu maremare ashobora gufatwa n'umuriro vuba.

Igikoresho kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe ifashwe ahantu runaka, bikaba byihutisha umuriro kuba wazima vuba mu gihe hataraza abazimya inkongi y'umuriro.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro ahantu hagiye hatandukanye, kikaba gifasha mu kuba cyasakaza amazi ahantu hanini kandi harehare, hari umuriro.

Abashinzwe umutekano bari mu kazi kabo ka buri munsi bafite ikinyabiziga bagenderaho, hirya hari inyubako zitandukanye zirimo ibikorwa bigiye bitandukanye n'irimo ubuvuzi.

Uzimya inkongi y'umuriro mugihe bikenewe cyane, akaba yifashishije amazi menshi cyane mu kuba yazimya ahabonetse umuriro.

Umuturage uri kugenda hafi y'ibiro bishinzwe umutekano mu Rwanda, hakaba hari ikinyabiziga gikoreshwa n'abashinzwe umutekano mu Rwanda hose.

Abashinzwe umutekano mu kuyobora ibinyabiziga mu gihe habayeho ambutiyaje, bakabasha kwifashisha ubushobozi bahabwa na leta mu kuyobora abantu aho bajya kugira ngo hatabaho impanuka.

Abatowe nk'abayobozi bari kurahira imbere y'ibendera ry'igihugu bavuga ko ibintu batorewe bazabikora kandi bakabasha kubisohoza neza.

Abaturage bari kwamamaza umukuru igihugu Paul Kagame bakabigaragaza batanga imbaraga zabo ndetse n'ubushake bwinshi mu gutora umukuru w'igihugu.

Umuyobozi mukuru uri kuvuga ijambo ku bijyanye n'amatora agenewe umukuru w'igihugu cyacu, ariwe Paul Kagame.

Abamama bageze muzabukuru bari kwishimira intsinzi yo kuba batoye umukuru w'igihugu cyabo, bakaba bari kubigaragaza bambaye imyenda gakondo y'u Rwanda.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda witwa Paul Kagame akaba yarari kwiyamamaza ku mwanya wuko azaba umukuru w'igihugu.

Bari kubara umubare w'amajwi umukuru w'igihugu, perezida Paul Kagame yagize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Abaturage bagaragaza ko bashigikiye umuryango wa efu pe eri inkotanyi, mu matorwa aherutse kuba y'umukuru w'igihugu ari we Polo Kagame.

Abadepite barahira bifashishije ibendera ry'igihugu bakaba barahira ku mihigo bahize kandi bakabisohoza neza.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, urugero nk'ikinyabiziga cyikoreye ibiribwa byinshi cyane, hakaba harimo umuceri cyangwa ibishyimbo cyangwa ifu yo kunywa cyangwa iy'igi

Imodoka itwara abantu ndetse n' ibintu, ikaba ishobora kuba hajyamo abantu benshi bagera nko mw' ijana Kandi barengaho Gato .

Abatwara ibinyabiziga mu mirimo yabo ya buri munsi, mu gihe batwaye ibikoresho cyangwa batwaye abantu bitondera amategeko y'umuhanda, kugira ngo birinde impanuka.

Ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara ibintu bikeya kikaba kifashishwa nko kuba haribyo wasunika cyangwa watwara ugasanga gishobora gutwara abantu batarenze babiri.

Ibinyabiziga bitandukanye byose bikaba bihuriyeho gutwara abantu ndetse n'ibintu, hakaba hari ikinyabiziga cya mbere kikaba gitwara abantu bake naho ikindi kikaba gitwara abantu benshi.

Ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara ibintu biremereye, kuba cyabivana ahantu hamwe kikabijyana ahandi. Iyi modoka ifasha buri muntu wese kuba yagira ikintu atwara, kirenze ubushobozi bwe.

Ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwihuse, kandi bworoshe, ukaba ushobora gutwara abarenga abantu ijana.

Abanyonzi batwara amagare bari hamwe bibumbiye hamwe mugihe bari gutaha mukazi kabo ka buri munsi, hari ibyo baba basabwa kuzuza kugirango babashe kwicungira umutekano..

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba ibitwara abantu ndetse n'imizigo, abaturage bari kujya mu kazi kabo ka buri munsi.

Unuturage uri mukazi ke kaburimunsi aho akoresha imbaraga ze cyangwa atwaza abantu imizigo akabashyira kugikoresho gikozwe mumbaho akabasha gukorera amafaranga muburyo bworoshye.

Umuhanda ugenderwamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande rwaho hakaba hagaragara ko hari ubusitani bwiza, ndetse n'ahanyurwa abagenzi bagenda n'amaguru.

Umuturage uri mu kazi ke ka buri munsi wikoreye ibintu hamwe n'ikinyabiziga gitwara imiti kwa muganga bikaba biri kugendera mu muhanda

Ibinyabiziga bitatu biri mu muhanda bifasha abantu mu kuba bagira ubumenyi mu gutwara, ndetse bikaba bifite uburenganzira bwo kuba bwakwigisha abo bantu.

Imodoka itwaye imizigo ikaba itwaye amakara iyavana mu gace kamwe iyajyana mu kandi gace.

Ikinyabiziga gifasha abaturage mu kuba cyabatwara ahantu ndetse n'ahandi, n'inyubako irimo ibikorwa bigiye bitandukanye, bijyanye n'ibyo kugura ibikoresho bya elekitoronike.

Ibinyabiziga bitandukanye bitwaye abagenzi mu kazi kabo ka buri munsi, ndetse n'inyubako iri hirya iriho ibyapa byerekana ibikorwa bikorerwa muri iyo nyubako.

imodoka zitandukanye zitwara abagenzi zibavana mugace kamwe zibajyana mukandi gace kandi ibyo binyabiziga usanga bijyamo abantu benshi kandi bikorohereza abagenzi.

Ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, haba mu ntara, haba no mu mugi wa Kigali, bigatuma urugendo rworoha, kandi bigatwara imizigo myinshi.

Ibinyabiziga byifashisha amatara mu gihe cya nimugoroba, mugihe abatwaye bagenda bareba neza, kandi ibyo birinda impanuka zitateganyijwe.

Ahazwi nko mu mujyi wa Kigali aho bafatira bisi zitandukanye zijya mu ntara hirya no hino, bikaba bigaragara ko abanyamaguru cyangwa abagenzi bose baza bagana aha hantu.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cy'umweru gitwaye abantu bingeri zose bagiye batandukanye kibavana ahantu hamwe kibajyana ahandi.

Ibinyabiziga bitwara abantu hamwe ndetse n'ibintu, bikaba byifashishwa mu butwazi butandukanye, mu kuba byatwara ibintu biremereye, cyangwa ibintu byinshi cyane.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, bimwe bitwaye n'abagenzi hamwe n'abaturage bari kugenda; hakaba hari n'ibiti bigiye bitandukanye biteye...

Ibinyabiziga bitoya birimo amagare, mu gihe abari bitwaye babyifashisha bari gutwara imizigo iremereye mu gihe bari kubivana ahantu hamwe babijyana hamwe ahandi.

Umuhanda uri kunyurwamo nibinyabiziga bitandukanye haba abatwaye abantu haba abanyamaguru bari kugenda haba abari gukora mubusitani kugirango hase neza.

Ikinyabiziga kiri kugenda mumuhanda mwiza usukuye, ufite ubwiza budasanzwe, ufite ibiti kuruhande kandi ufite n'ibikorwaremezo byiza, amatara kuruhande meza cyane.

Ikinyabiziga gitwara abantu ndetse n'ibintu mugihe bagiye kuva mu mujyi wa Kigali bajya mu ntara, icyo kinyabiziga kikaba gitwara abantu benshi cyane.

Ikinyabiziga kifashishwa mu kuba cyatwara ibintu byinshi biremereye, kikaba gikunda gukoreshwa ahanini mu gupakira ibintu kibijyana ahantu, kibivana hamwe kibijyana ahandi.

Imodoka zitwara abantu ndetse n'ibintu kandi muburyo bworoshye kandi bwihuse, ikinyabiziga kikaba gitwara abantu barenga mw'ijana kandi bose bakagenda batekanye neza.

Abaturage bari mu kazi kabo ka buri munsi mu mirimo y'amaboko mu bucuruzi, hakaba harimo abagendera ku binyabiziga bitandukanye bifashisha mu buzima bwabo.

Ikinyabiziga kifashishwa mugutwara abantu ndetse n'ibintu, kandi bikaba bifasha by'umwihariko imizigo kuba yabona aho ijya neza.

Ibinyabiziga biri mu muhanda bitwaye abagenzi n'ibindi biri kujya mu kazi, kandi hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti n'inyubako ku ruhande.

Imodoka zitwara abanyamaguru kuba zabageza aho bagiye, haba mu gitondo haba nimugoroba, kandi izo modoka ziba zifite umutekano wizeye cyane, zitwara abantu benshi zitwara n'ibintu.

Umuturage uri mukazi kiwe ka burimunsi ari gukora ibijyanye nubwikorezi bwibintu ndetse n'ikinyabiziga kiri mukazi gishaka abo abaturage cyatwara.

Ikinyabiziga kiri kugendera mu muhanda, kikaba gitwaye umugenzi kandi bakagaragaza ko birinda impanuka bambara ingofero zabugenewe.

Ibi binyabiziga bitandukanye haba hari ibitwara abantu benshi, hakaba hari n'ibitwara ibintu kuruhande kandi bikaba bikorwa muburyo busa.

Ikinyabiziga gifasha abantu mu kuba cyatwara ibintu ndetse n'ibindi, hakaba harimo imicanga, amabuye ndetse no gutwara abantu.

Ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu mu buzima bwabo bwa buri munsi bikaba byorohereza abagenzi mu kugera aho bagiye cyangwa bikihutisha urugendo.

Abaturarwanda ibinyabiziga bitandukanye biri gutwara ibikoresho bivana hamwe bijya ahandi, umuturage uri gucuruza ibyo kurya tuzi nk'ibisheke.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda, mu gihe nta bantu benshi bari kwambuka bikaba bigendera ku mategeko, bidateje ambutiyaje mu muhanda.

Ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, bikaba byorohereza abaturage mu kuba batega biboroheye kandi byihuse.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara ibintu ndetse n'ibintu byaba biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi gihugu, bikaba kandi bifasha buri muntu wese mu kuba yakora urugendo rwihuse kandi rworoshye.

Ikinyabiziga gifasha abaturage mu kwikorera cyangwa gutwara ibintu mu buryo buboroheye kandi bikaba byoroshya amafaranga k'umuguzi n'umugurisha.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye biri mu kazi kabyo hakaba harimo abagenzi batwaye imizigo itandukanye harimo n'imbaho zo gukoresha.

Ikinyabiziga gitwaye abagenzi kibajyana hamwe cyangwa ahandi mu gihe bari kuba bagiye mu kazi kabo ka buri munsi bikaba bifasha abanyarwanda mu kwihutisha gahunda zabo kandi gishobora gutwara imizigo igiye itandukanye.

Abacuruzi bacuruza ibijyanye n'ibihangano byabo, by'umwihariko k'umuco w'u Rwanda, harimo amashusho meza cyane, bakaba bakorera nanone hakaba heza Kandi hasa neza.

Aho abaturage bahurira baje kureba imikino itandukanye harimo umukino w'umupira, umukino w'isiganwa kandi bigafasha Abaturarwanda kwishima.

Ahakinirwa imikino itandukanye, yaba umukino w'umupira w'amaguru, yaba imyidagaduro isanzwe ikorerwa ahantu hisanzuye hari ubusitani bwiza.

Icyapa cyereka abatwaye ibinyabiziga ko bagomba guhagarara mu gihe babona ko bikenewe, ibyo kandi birabafasha kuko bituma bubahiriza amategeko y'umuhanda.

Icyapa kereka abatwaye ibinyabiziga ko imbere hari ahantu hambukira abagenzi mu gihe bari kuhanyura bagomba kugabanya umuvuduko kugirango bidateza akaga cyangwa impanuka.

Umuhanda uriho icyapa kereka abatwaye ibinyabiziga ko imbere hari umuhanda ugenda unyuranamo, ibyo bikaba bifasha abagenda cyangwa abatwaye ibinyabiziga kwitonde aho bagiye.

Icyapa cyereka abatwara ibinyabiziga ko imbere yaho yabo hari abanyeshuri bavuye ku ishuri, kandi icyo cyapa kibafasha kugabanya umuvuduko mu gihe bari kugenda.

Icyapa cyereka abatwaye ibinyabiziga cyangwa abagenda n'amaguru. Kibereka ko bagiye kwinjira mu karere ka Rusizi, hakaba hagaragara ibiti byinshi nk'ishyamba ndetse n'ibindi byapa biri ku ruhande.

Ibyapa byereka abanyamaguru, bikereka abatwaye ibinyabiziga ko bagomba kugenda cyangwa gabomba guhagarara, abanyamaguru n'abo bagomba kugenda cyangwa bagahagarara.

Ibyapa byereka abatwaye ibinyabiziga ko imbere hari umuhanda ushobora gukata kandi bikerekana ko hashobora kuba hambukira abantu bageze mu zabukuru, bikaba bifasha abo bantu kuba bakwirinda impanuka zitateganyijwe.

Icyapa kigaragaza ko aho hantu hatemerewe guparika ibinyabiziga by'amagare, kiragaragaza ko mu gihe uhaparitse ushobora guhanwa n'amategeko.

Icyapa cyereka abanyamaguru cyangwa abatwaye ibinyabiziga ko hafi aho ngaho hashobora kuba hari gukorwa ibikorwa by'ubwubatsi, cyangwa ibyo gusana umuhanda.

Icyapa gifasha abanyamaguru mu kuba cyabereka aho bagiye, ko bari kujya hamwe cyangwa bava ahandi, kikaba gishobora gutandukanya umuhanda uri gucamo n'uwo uvuyemo.

Icyapa kereka abatwaye ibinyabiziga cyangwa abanyamaguru ko imbere yabo y'aho bari kujya hari akayira gafunganye.

Ibyapa bigaragaza ko uvuye mugace kamwe ujya mukandi, bikabasha kuyobora abagenzi cyangwa abatwaye ibinyabiziga mu kuba bamenya aho bagiye.

Icyapa cyerekana ko aho hafi hagomba guhagarara ibinyabiziga, ko nta handi bigomba kuba byanyura cyangwa byajya, kandi bikaba byereka abanyamaguru ko bagomba kwitondera aho hantu mu gihe bari guhanyura.

Icyapa cyereka abatwaye ibinyabiziga ko bagomba cyangwa, bemerewe kuba bahagarara ahantu baba bageze kandi bikaba bifasha n'abanyamaguru kwitondera aho hantu.

Icyapa cyereka abanyamaguru ndetse n'abatwaye ibinyabiziga, ko imbere yabo hari ahantu hambukirwa n'abagenzi ko bahageze bagomba kugenda gake.

Icyapa kigaragaza ko hari ahantu abanyamaguru bambukira, hakaba hari umuhanda ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, hamwe n'amazu ari ku ruhande, akorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Inyubako ndende cyane, ifite inkingi ziri mu ibara rya shokora ibirahuri bisa ubururu hanze hari ubusitani burimo indabo ibendera ry'igihugu cy'u rwanda hakoreramo ikigo cy'ubwishingizi.

Inyubako nziza cyane zikaba ziherereye ahitwa i Kanombe, akaba ari mu kajagari ka kabiri bigaragarako, hagaragara neza kandi habereye ijisho.

Abaturage mubuzima bwabo bwa burimunsi, bikaba hari n'amahoteri hafi ahongaho kuburyo byorohera buri muntu wese kuba yabona aho aryama cyangwa aho agura imiti muburyo bwihuse.

Abaturage bari mu buzima bwabo bwa buri munsi baje kuba bavunjisha amafaranga cyangwa baza kubitsa amafaranga yabo kugira ngo agume afite umutekano uhagije.

Inyubako nziza ziri Iremera ukaba wahasanga ibikorwa bitandukanye kandi bakaba banafite ibijyanye n'aho waparika ikinyabiziga cyawe.

Inzu nziza isize amarange y'umweru hanze hakaba hari ibiti by'amoko menshi atandukanye, hakaba hari ubusitani bunini burimo ibyatsi.

Imihanda myiza kandi minini iriho ubusitani ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye, ikaba igendwamo n'ibinyabiziga byinshi kandi mu buryo bwiza.

Amazu menshi atandukanye arimo ibikorwa byinshi bitandukanye, haba ay'ubucuruzi ndetse n'ayo kubamo. Kandi izo nyubako zikaba zituriye ikibuga kigwaho indege mu Rwanda.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda bitandukanye ndetse n'inyubako ziri ku ruhande, zikaba ziriho ibyapa byerekana ibikorerwa aho ngaho.

Ibikorwa remezo bigiye bitandukanye mu kwerekana iterambere ry'igihugu, akaba ari inzu z'icyitegererezo aho bita mu gihogere hakaba ari ahantu heza kandi hatuje.

Umuhanda wa kaburimbo urikunyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo ipikipiki ndetse harimo n'imodoka yitwa kwasiteri ishinzwe gutwara abantu mu buryo bwa rusange ibi byose akaba ari ibikorwa remezo leta itugezaho nk'abaturage.

Inzu nziza iri i kanombe ikaba irangwa n'ubwiza ifite ubusitani hanze burimo ibiti bitandukanye ikaba isize amarangi y'umweru.

Inyubako nziza kandi nini yegereye umuhanda hamwe n'ubusitani bwiza, ikaba iriho icyapa kinini cyamamaza cyangwa cyerekana inzoga iryoshye cyangwa ikunzwe.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bunini bwerekeranye n'ibyo kurya hamwe n'ibyo kunywa, ndetse kandi bukaba bufite aho ibinyabiziga byemerewe kuba byajya.

Inyubako nziza kandi isa neza abantu bashobora kubamo: ikaba ifite hanze ibiti byiza, ikaba ifite aho guparika heza, ikaba ituye ahantu heza hari akayaga keza.

Ibinyabiziga bitandukanye biri kujya mukazi kabo ka buri munsi, abantu bari kugenda mukazi kabo ka buri munsi, ibikorwa remezo biri hafi aha ngaha, amapoto yohereza amashanyarazi mu ngo z'abaturage.

Amazu meza kandi asa neza ajyanye n'ikereyerekezo mu gihugu akaba ariyo mazu asabwa n'igishushanyo mbonera ukaba wayabona aho bita kibagabaga.

Umuhanda munini urimo igihande gishobora kunyurwamo n'imodoka cyangwa ibinyabiziga bishaka guhagarara mu buryo bwiza.

Abaturage bari kunyura mu nzira yabugenewe mu gihe bari kwambuka umuhanda bajya ku wundi kandi bakabanza kureba ruguru no hepfo.

Imirongo y'umukara n'umweru isobanura ko abanyamaguru ariho bagomba kwambukira ubwo rero mugihe bari kwambuka ibinyabiziga cyangwa ababitwaye babonako hari abantu bagiye kunyuraho bikabasha guhagarara.

Ibinyabiziga biri kunyura mu muhanda wo hasi hakaba n'uwo hejuru ikiraro kinyurwaho n'abagenzi n'imodoka zitandukanye zikaba zihuza uduce tubiri dutandukanye.

Akayira gafasha abanyamaguru kwambuka neza, bava ku muhanda umwe bajya mu wundi, ibyo kandi bikereka umuntu utwaye ikinyabiziga mu kwitonda mu gihe ageze kuri ako kayira.

Ibyapa bigaragaza ko hafi aho ngaho hari ikigo cy'amashuri cyangwa abana bavuye kwiga, kikaba cyereka abafite ikinyabiziga ko bagenda gakeya.

Umuhanda ibinyabiziga bishobora guhagararamo, wenda bigiye nko gufata nk'umuntu cyangwa hari ibindi bikorwa runaka utwaye ikinyabiziga agiye kubasha gukora.

Ihuriro ry'imihanda ryerekana aho imodoka zishobora kunyura, n'izindi zishobora guca mu buryo bwiza, kandi bidahungabanya ibinyabiziga binyura aho hantu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abaturage hakaba harimo by'umwihariko umunyamaguru ushaka kuba yatega ikinyabiziga kugira ngo kimugeze aho agiye.

Imihanda myiza kandi yubatse neza, ibinyabiziga binyuramo hejuru cyangwa hasi kandi mu masaha ya ni mugoroba bikaba bigenda bimurikiwe n'amatara agiye ari ku muhanda.

Umuhanda ugaragaza ko abanyamaguru bemerewe guca aho ngaho, hakaba harimo uturongo tw'umweru, hamwe n'umukara, tukaba twereka ibinyabiziga ko mugihe haje umunyamaguru, bagomba guhagarara.

Imihanda igiye itandukanye hariho ibyapa byereka abanyamaguru cyangwa abatwara ibinyabiziga, aho bagiye kandi hakaba hariho ibiti biteye ku ruhande ndetse n'ubusitani.

Ibikorwaremezo harimo kuba hari ibiti, imihanda myiza isize amarange yereka abatwaye ibiziga aho banyura kandi ko bagomba kwirinda kunyura mu busitani bwatewe.

Inzira inyurwamo n'abanyamaguru bava ku ruhande rumwe rw'umuhanda berekeza ku rundi ruhande, aho ibinyabiziga biba bigomba gutanga umwanya kugira ngo babashe kunyuraho,

Ibinyabiziga bitandukanye, bitwawe n'abantu bagiye hirya no hino, mu kazi kabo ka buri munsi, harimo abatwara amagare, harimo abagenda n'amaguru, harimo ibiti byiza.

Umuhanda munini unyuramo imodoka nyinshi cyane, ukaba urimo aho abanyamaguru babasha kunyura kandi bateganye, mu gihe ibinyabiziga bihageze bikabasha guhagarara bakambuka.

Ibinyabiziga bigiye bitandukanye biri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, amazu ndetse n'icyapa kiranga ahari ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, kuburyo ushobora kubibona mu buryo bworoshye.

Umugi wa Kigali mu bikorwaremezo birimo umuhanda ugaragara neza ushobora kunyurwaho n'imidoka nyinshi haba hasi cyangwa hejuru.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, ukaba ari umuhanda usukuye. Ubonekaho ibiti bigiye bitandukanye, kandi hakaba hariho n'ubusitani.

Umuhanda wifashishwa n'abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hejuru hari umuhanda umwe utandukanya uwo hasi n'uwo hejuru.

Abatwara ibinyabiziga barikugenda mu buryo bwiza bakurikiza amategeko igihe bageze ku muhanda werekana ko hari abanayamaguru bari buhanyure.

Umuhanda urimo umuturage utwaye igare, hirya hakaba hariho ikindi kinyabiziga kiri kugenda, hakaba hari n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'ubusitani.

Ibinyabiziga bigenda mu muhanda, harimo ibyikorera ibintu biremereye cyane, harimo ibitwara abantu, kandi hakaba harimo umuhanda usukuye neza.

Imironko y'umweru ishirwa mu muhanda ikaba inzira y'abanyamaguru kandi ikaba yereka abatwaye ibinyabiziga ko bagomba kwitondera aho hantu kuko hambukira abagenzi.